Imbaga y'abantu benshi bishimye kandi ubona banezerewe ibyo babona. Babayeho mu mudendezo kandi banyuzwe n'ubuyobozi bwabo.

Abantu bicaye ahantu hasa neza hafite isuku ndetse nabo bafite isuku ubona ko batuje bacecetse kugira ngo bumve ibitekerezo bya bagenzi babo.

Inama yateguwe n'ubuyobozi bwite bw'igihugu, hagamijwe kuganirwa ku miyoborere myiza y'abaturage, umuteguro mwiza ndetse n'ibyo kunywa byagenewe abayobozi.

Inzu y'ubucuruzi yagenewe kwakira abantu baje kuharuhukira ndetse no kugura ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa ndetse ukaba wabasha no gukomeza akazi kawe.

Urubuga rushinzwe iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Ucyinjira kuri urwo rubuga, urabonaho umwirindoro wa minisiteri. Ndetse n'inyungu za buri shami buri muntu ashobora gushoraho ibijyanye n'amafaranga mu kwiteza imbere.

Uburyo bwashyizweho nikigo gishinzwe imisoro, bugaragaza uko wamenyekanisha ibindi bikorwa byo gusorera.

Ikigo gishinzwe imyigishirize mu Rwanda gihagarariwe n'abayobozi bacyo cyatanze ibihembo ku banyeshuri bitwaye neza kurusha abandi birimo ibikombe ndetse n'imidari.

Imenyekanisha ry'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda rishimira abasoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumya na gatatu.

Itangazo ryasohowe n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda, rirasaba kumenyekanisha no kugaragaza imisoro mbere y'umyaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu.

Urubuga rwashyizweho n'umuryango irembo. Rugaragaza imikorere n'ibikorwa irembo rikora.

Igice cyimwe cy'iguriro ricuruza ibinyobwa bitandukanye, kiri kugaragaza ibiri mu mata apfunyitse mu dushashi, ndetse n' ibinyobwa bituruka ku mbuto, hari umugabo wegamye hafi aho wambaye iby'umukara.

Imenyekanisha ry'umunsi mukuru w'umukozi riragaragaza iterambere no kwaguka muri rusange k'umukozi.

Inzu nziza, isize amarangi meza kandi ifite ubusitani bwiza, iruhande rwayo hari ipoto rufariyeho insinga z'amashanyarazi yo mu ngo zituriye uru rugo.

Amapoto afashe insinga z'amashanyarazi agenda ava ku rugo ajya ku rundi mu baturage.

Ipoto z'insinga z'amasharazi riteye mu busitani bw'imwe mu mazu ari ku muhanda.

Icyapa kigaragaza ko aha hantu kuriyi nzu hakorera umuganga uvura amaso.

Ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyarugenge byakira abarwayi baje babigana, bifite isuku ndetse n'ubusitani.

Imodoka zihagaze ku bitaro, zifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze ku murwayi utari hafi aho zimugeza ku bitaro.

Umugabo ukurikiranyweho ibyaha bitandukanye yagejejwe mu maboko y'ubugenzacyaha Ribu.

Inama y'abaturage abagabo n'abagore, abakuze n'abatoya bari mu nama barumva umuyobozi wabo kubijyanye n'imimerere n'imibereho yabo.

Itegeko nshinga risobanuwe mu ndimi eshatu, ikinyarwanda, icyongereza, n'igifaransa.

Abagabo batatu barimo baragerageza kuzimya ahabereye inkongi y'umuriro, ishobora guteza impanuka ndetse no kubura k'ubuzima mu baturiye aho ngaho.

Ku biro by'itora aho abaturage baje gutora umukandida wabo uzabageza ku mibereho myiza yabo nk'abaturage mu gihugu.

Mpayimana Philipe umukandida muri komisiyo y'amatora mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane mu Rwanda.

Icyapa cya komisiyo y'igihugu y'amatora kigaragaza umukandida Polo Kagame wa Efuperi.

Mu cyumba cy'itora, abaturage baratora bifashishije impapuro. Umaze gutora araruzinga, akarushyira mu gasanduku kagenewe kwakirwa izo mpapuro, hakurikijwe uko umuntu yatoye.

Polo Kagame perezida w'u Rwanda, yasuye abaturage bo mu ntara y'amajyepfo, kugirango bige kubijyanye n'imibereho myiza y'abaturage.

Ahari kubera ibikorwa byo kwiyamamaza aho umukandida Mpayimana Philipe yagiye kwiyamamariza hari ibyapa bigaragaza umukandida uwo ariwe.

Umuhanda w'ibinyabiziga, ibinyabiziga biri gutambuka. Ku ruhande gato, hari umuhanda wagenewe abanyamaguru na bo bari kugenda. N'ikiraro cy'imodoka zigenda ziciye hejuru y'umuhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga nk'imodoka n'amagare ndetse na banyirabyo babikoresha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Imodoka ishinzwe gutwara abantu ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi, ibarinda kunyagirwa mugihe cy'imvura no kuvirwa n'izuba mugihe kimpeshyi, kandi ifite ubushobozi bwo gutwara abantu mirongo itatu na bane.

Umuhanda uri kugendwamo nibinyabiziga byubwoko bwose ndetse n'abantu, impande yuwo muhanda hari inzira y'abanyamaguru.

Imodoka ziri kunyuranaho mu ikorosi ry'umuhanda ahegereye ibiti bikikije amazu ari hafi aho.

Ikinyabiziga kinini kiri kugendera mu muhanda gitwaye ibikoresho n'umuntu urikugerageza kwambuka umuhanda.

Icyapa Kiri kumuhanda kigaragaza yuko imbere hari inzira y' abanyamaguru ,bisaba yuko ibinyabiziga bihagendera gakeya ku muvuduko uri hasi.

Icyapa kigaragaza yuko hashobora kuba impanuka. Kandi ko bibubjijwe kuba aho hantu hacibwamo n'ibinyabiziga.

Icyapa kigari kigaragaza ibyerekezo by'ahantu ariho Kagarama, Nyamata n'umugi wa Kigali.

Amazu meza y'ibisenge ndetse magari, ari ahantu heza yitegeye umujyi wa Kigali hari umwuka mwiza uzanwa n'ibiti bihaturiye.

Inyubako nziza isize amarangi kugira ngo agaragaze ubwiza bwazo, hejuru yayo hariho ibigega bifata amazi ndetse n'imirasire y'izuba.

Urugo rw'umuturage rufite uruzitiro ndetse rucicijwe n'ibiti byiza bizana umuyaga mwiza mu rugo iwe.

Umuhanda w'amabuye uzamuka, wifashishwa n'abaturage bawuturiye. Ndetse n'ibiti bitanga umwuka mwiza, hafi y'ababituriye.

Imiturire y'abaturage batuye mu mujyi wa Kigali. Bafite n'ibigega bifata amazi mugihe cy'imvura ndetse bahawe imbaraga z'amashanyarazi.

Umuhanda mugari unyurwamo n'ibinyabiziga hagati harimo inzira y'abanyamaguru ndetse umuhanda ufite ikiraro kinyurwamo n'amazi y'abaturiye aho.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga. Ku ruhande gato, hari inzira yagenewe abanyamaguru. Ndetse n'ibiti bituma haboneka umwuka mwiza mu bahaturiye.

Ni ihuriro ry'imihanda. Harimo ibiti, n'ibinyabiziga, ndetse n'ibyapa.

Imodoka itwara ibikoresho bitandukanye irimo iranyura mu muhanda wagenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'icyapa cy'abagenzi barindiriye imodoka zibatwa zibavana ahantu zibajyana ahandi.

Umuhanda mugari w'ibinyabiziga n'undi muhanda wagenewe abanyamaguru n'ibiti bituma hasa neza hakagaragara neza.